Igihugu cyacu gisurwa n'abashitsi batandukanye baturutse hanze yaco. Abo banyamahanga bakigezemo bishimira byinshi by'umuco wacu nk'imbyino zacu, ndetse bagashaka intore zibataramira mu rwego rwo kwishimisha.

Mu mahoteli batekaga ibiryo byiza nk'ifi, inyanya nk'ibirungo, n'amafiriti, gaba gavuye mu birarayi. Ku buryo umukiriya iyo abyishuye aba adakoze ubusa, ahubwo ahaga akagenda anezerewe.

Abagabo n'abagore bari mu kabari gafite inyubako nziza, karimo ibyuma by'ikoranabuhanga, nti harimo ibyeyerekana amashusho baranywa inzoga za kizungu zirimo amacupa bakoresheje ibirahuri ndetse n'amacupa ubwayo.

Igitoki gitetse neza, cyashizweho ibirungo, ku buryo buri wese wakigura cyangwa se wakirya yakitekeye iwe mu rugo, yagira ubuzima bwiza kandi akirinda ndwara.

Abasore n'inkumi, abagabo n'abagore bambaye neza babukereye ku kabari keza, aho bari gusangirira. Bari kunywa inzoga za kizungu hifashishije ibirahure cyangwa amacupa zifunikwamo.

Inyubako yubatswe neza, irimo ibikorwa remezo nk'umuriro w'amashanyarazi, ndetse n'inkuta zisa neza. Icururizwamo ibyo kunywa higanjemo inzoga za kizungu. Abakobwa n'abahungu bo bakira ababagana muri iyo nzu.

Inzoga za kizungu sigombwa kuzija kure kugira ngo uzibone ,no ku mabutike yegereye abaturage ziba zihari mu macupa, imodoka zizigemura zizikura hirya no hino zikazibegereza.

Abantu bari bazi ko imyenda myiza zose zivaga mumahanga, ariko ubu ugeraga ahantu hose ukahasanga amaduka gacuruzaga imyenda, bakakwambika ugaseruka ugasa neza bitagoranye, kumafaranga yawe rwose ukabura ukaba umeze neza.

Uruja n'uruza rw'ibinyabiziga biparitse imbere y'inyubako yubatse mu buryo bugeretse. Mu binyabiziga harimo moto, amagare, ingorofani byose byifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu.

Inyandiko nziza yanditswe mu rurimi rw'abanyamahanga itanga ikaze muri hoteli hari n'ubusitani bwiza bugizwe n'ibyatsi byiza by'ibara ry'icatsi n'inyubako nziza igeretse.

Inyubako nziza igeretse ifite isuku hasi, yubatse ku muhanda ugizwe n'amapave. Ku buryo abawunyuramo nta kibazo cy'ivumbi bagira, ahubwo bagera aho bagiye basa neza.

Inyubako zubatse neza ku buryo bumwe zisize amarangi y'icyatsi abereye ijisho, imbere yazo nta mucucu wahura nawo, kuko hari amapave gashobora kurinda umucucu.

Ihuriro ry'abantu baturutse imihanda zose baje kurema isoko ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibikoresho mu gikoni, inkweto ndetse n'ibindi byinshi bishobora gufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ibumbano bijya kumera nk'abantu bihagaze imbere y'iduka ricuruza imyenda babyambitse imyenda nk'ikirango c'uko muri iryo duka harimo amapantaro, imipira ndetse n'amashati y'abagabo.

Ibiduki ni ibikoresho byifashishwa bapfundikiriramo ibinyobw,a nk'imisururu, ibigage. Iyo bishyizwemo biba birinzwe bityo ababicuruza bakabicuruza bitonze.

Inzu yubakishijwe amakoro. Ubwoko bw'amabuye bwihariye buboneka hano iwacu mu Rwanda cane cane mu gice c'amajyaruguru. N'imbere yayo ni amakoro ahashashe mu rwego rw'isuku.

Indobo zirimo imigati zikorwamo mu ifu iba yavuye mu ngano, iyo migati yitwa imbada, izo ndobo ziteretse ku bikarito, ibikarito biri mu iduka ricuruza ibintu bitandukanye.

Ibagiro cyangwa se inzu zicuruza inyama， si ngombwa ko ziba ziri mu migi gusa， ahubwo zegerezwa n'abaturage mu byaro， kugira ngo abajya kuzigura， bazigurire hafi kandi ku buryo bubegereye no ku giciro.....

Inyubako nziza yubatse ku buryo bwa kijambere ifite hasi hameze neza ku buryo uhagenda atagira aho ahurira n'umucucu , iriho icapa kiranga ibikorerwamo ku buryo uhageze atari ngombwa kubaririza.

Inyandiko n'amafoto bishobora kurangira umuntu aho ageze Nk'ingagi ushobora guhita ubona ko ugeze hafi n'ibirunga biboneka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bicumbikiye ingagi nyinshi zitaba ahandi.

Imashini yo kudoda iriho n'intebe ku ruhande iteretse imbere y'iduka ricuruza utuntu duciriritse. Nk'utugati, amabombo, umunyu, amasabune, ku buryo abaturage baza kubihaha babibona hafi.

Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye nk'amavuta yo guteka, ibyo kunywa bisembuye n'ibidasembuye ,ibirungo, amabombo n'ibindi byinshi bicururizwa ku mabutiki.

Amazu meza gameze neza, gakenera ubusitani bwiganjemo ubwoko butandukanye bw'ibiti, nk'igano, indabo zimeze neza, ibyo byose bitangaga umwuka mwiza kubantu batuye muri g'amazu.

Imodoka yifashishwaga mu gutwara imizigo nk'ibyo abantu basaruye nk'ibirayi, ndetse ikaba yakura n'abantu ahantu hamwe ikabajana ahandi.

Amashusho n'ibyanditseho biranga ibikorerwa mu nzu mo imbere. Aho ubu kwamamaza bitagikeneye kuja ku maradiyo, cangwa ku mbuga nkoranyambaga. No ku nzu yawe uhashira icapa uhatambuka ukamenya ikihakorerwa.

Inyubako zikorerwamo ubucuruzi buciriritse, zizwi nka butike mu Rwanda, zigomba kuba zubatswe neza, zisa neza mu bijyanye n'isuku, kandi imbere mu busitani bwazo hakaba hari uburyo bwo kwirinda umucucu waja mu bicuruzwa, ukaba wagira ingaruka ku babigura.

Imikufi y'ryo butandukanye yambarwa mu rwego rwo kuyirimbisha, hari imikufi ikoze mu byuma ndetse hari n'ikoze muri Pulasitike iba yanditseho cyangwa ishushanyijeho.

Abanyonzi baba bategereje abagenzi, bagahagarara hamwe aho twita iseta nk' imbere y'iduka, uje bakamutwara bakabona uburyo babonamo amafaranga.

Inzu zubatse ku mihanda zizanira amafaranga abazubatse kuko baje kuzikondesha, baje kuzikoreramo ngo bazicururizemo nk'amakara, ibyo kurya, barishura bityo nyir'inzu akabona amafaranga.

Inyubako zubatse ku buryo bugeretse zikorerwamo imirimo myinshi itandukanye: nko guhanagura imyenda, kwigisha amategeko y'umuhanda, gucururizwamo imiti, gucururizwamo imyenda ,amasaro yita ku bwiza n'ibindi.

Isoko ryubatse ku buryo bwa kijyambere ricururizwamo ubwoko bw'imbuto butandukanye nk'imineke, ibinyomoro ,imyembe, amacunga ndetse n'ibindi wakeneramo.

Inyubako igerekeranye kenshi, ikagera aho guparika imodoka z'abaje bayigana, igakorerwamo imirimo itandukanye nk'ubucuruzi resitora n'ibindi, ikagira ubusitani bwiza burimo ibiti byiza kandi buri wese yashishikarira kureba.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi izwi nka butike ibonekamo ibintu by'uruvangavange amabase, imigati, ibikapu ariko byose nta kindi kiba kigamijwe ni ugushaka amafaranga kuwayishinze.

Isoko ryubatse ku buryo bwa kijyambere, rirasakaye ku buryo ibicuruzwa bitanyagirwa, riracururizwamo ibintu bitandukanye nk'ingofero, ibikapu, ubudodo, amavuta yo kwisiga n'ibindi byinshi.

Amashusho y'ibintu bigiye bitandukanye bikorerwa mu nzu y'umuntu umwe, maze umugenzi uhageze yabona aho ayo mashusho amanitse, agahita yibwira ibikorerwa muri iyo nzu. Bityo, kubona serivise ntibimusabe kuja kure.

Amakarita yo guhamagara muri telefone mbere yari umugani kuyishaka bigoye, ariko ubu umukecuru n'umusaza yaje imbere y'iduka, ikirango ni umutaka n'akameza gatoya akayigura.

Mu Rwanda ikoranabuhanga ryakwiriye hos. Byagezweho bitewe n'amaduka acuruza amatelefoni nka infinigisi, nokiya n'izindi nyinshi.

Mu mirimo zateza imbere abagore ndetse n'abagabo bose muri rusange harimo ubucuruzi bw'ibitenge, ubudozi bukozwe kinyamwuga, ubudozi bw'inkweto. Ibyo byose byabarinda kugira aho bahurira n'ubukene

Ikizingo cy'uduhombo dutoya twifashishwa mu kuyobora amazi, utu duhombo iyo badutabye munsi y'ubutaka amazi acamo ntabwo tumeneka ubusa kandi umuturage akagerwaho n'amazi mu buryo bworoshye.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga byarapfaga, abanyarwanda bakirirwa bambaza imisozi ngo bagiye kubikoresha. Ariko ubungubu no mu byaro ahabegereye, ibyo bikoresho birakorwaga kandi rwose bikagenda neza, mu buryo butanagoranye.

Mu Rwanda ubu ahantu hose hacururizwa ibikoresho byakwifashishwa mu rugo. K'amasafuriya, imikoropesho, ndetse n'ibikapu, ku buryo ushaka igikoresho, bitakiri ngombwa ko arenga imisozi n'udusozi.

Ku mihanda, mu Rwanda, iyo imihanda ikoze neza, hafi ya hose habashishikarizwa kuhatera ubusitani mu rwego rwo kongera ubwiza no gukurura abahanyura baturutse hirya no hino.

Inyubako yubatse neza, isize irangi ryiza, itangirwamo ubujyanama ku buhinzi, ifite ubusitani bwiza bwitaweho, ku buryo uhageze wese yashishikarira kubureba.

Urujya nuruza rw'abantu n'ibinyabiziga abagenda n'amaguru ndetse n'abagendaga n'imodoka inyubako zimeze neza zigeretse ibi byose ni ibiranga ko iterambere ry'urwanda rigeze kure kandi ryakwifuzwa n'abandi.

Iduka riri mu nyubako nziza irihamakaro ricuruza ibintu bivangavanze bigiye bitandukanye, ibyo kunywa, amasabune y'isuku, ndetse n'ibindi byinshi ku buryo umuturage uhahahira, atagira ico ahaburira.

Ubudozi ni umwuga mwiza utunga abawukora ubu gushaka igitambaro cyo kudodeshamo umwenda wo kwambara ni ibintu byoroshe kuko byegerejwe kumaduka yose makaritsiye, imashini nazo zidoda ziri hose.

Kugira ngo mu Rwanda tugire inyubako nziza, ibikoresho ni uko byatwegerejwe. Amabati, amatiyo, ndetse n'ibindi byose byegereye ku maduka atwegereye, ku buryo kubaka bitagisaba kujya mu mahanga.

Mu Rwanda wasangaga inyubako zose zimeze nabi, ariko ubu biratangaje aho ugera mu giturage ugasanga hariho n'inzu zifite amakaro, kandi amakaro twaragumvaga nk'umugani, tukagumva mu banyamahanga.

Ubucuruzi buciriritse bukorerwa mu giturage nabwo buhesha amafaranga ababukora. Ibisheke, ibihaza, igitoki, ibirayi, ibyo byose byacururizwa hamwe kandi bikabeshaho nyirabyo.

Itsinda ry'abaririmbyi ryambaye umwambaro mwiza, mu ibara ry'umweru n'umukara abagore n'abagabo, bose barabyitabiriye ku buryo bagira amatsiko yo kumva ibyo baririmba.

Mu bubaji ndetse n'ubugeni n'ubukorikori hakorwamo ibikoresho byinshi byo mu nzu: nk'ibitanda, imitako yo kumanika hejuru ku nkuta, intebe nziza, byose bikarimbisha aho biri.

Iterambere mu Rwanda rwose rigeze ahashimishije, amazu maremare agerekeranyije, ibi rwose byari amateka g'abanyarwanda go gutura muri nyakatsi, ariko ubu ibikorwa remezo byaratwegereje, ku buryo n'amazu gageretse ndetse n'imihanda n'ibinyabiziga tubifite cane.

Amazu gageretse gagomba kugira n'ubusitani bwiza, ku buryo niba ari nka hoteri abazaga kuyiraramo barabona aho bararuhukira. Ibiti bimeze neza bitanga umwuka mwiza, abo bantu rwose bakaba baguwe neza.

Urujya n'uruza rw'abantu baremye isoko, ibirango by'iterambere ndetse n'ibikorwaremezo nk'amashanyarazi mu Rwanda, imihanda myiza ikoze neza, imodoka zitwara abantu n'ibintu ziri mu mihanda.

Inyubako nziza n'abantu benshi baremye isoko, kandi isoko ni igikorwa remezo mu gihugu gifasha mu kongera ubukungu no gukura abaturage mu bukene, bacuruza abandi bakazana imyaka, abandi bakazigura.

Ubudozi ni umwuga mwiza ubeshaho abawukora. Ubudozi bw'imyenda ntibwasigaye inyuma. Bifashisha imashini ndetse n'ipasi yo kugorora imyenda badoze.

Ibitoki ibiribwa byiza cane mu muryango ndetse no kubawukikije. Mu mahoteli biratekwa, ku mashuri biratekwa ,mu miryango iwacu, kandi kubigura ku isoko ntabwo biba bihenze cyane.

Ubucuruzi bw'inkweto bujanye n'icyerekezo aho inkweto zipanze neza ku buryo umukiriya uje, batirirwa bashaka muri zose ahubwo bareba aho buri bwoko bw'inkweto buherereye, bigatuma kumugurisha byihuta.

Amashu yeze neza, yakusanyirijwe hamwe agasarurwa avanwa mu murima, ategereje gupakizwa imodoka ngo agezwe hirya no hino mu Rwanda, aho abayakeneye bayagura mu buryo bworoshye.

Ubucuruzi buciriritse bukorerwa ku muhanda，mu gasoko gato aho uruja n'uruza rw'abantu baza guhaha imboga， zirimo intoryi， karoti，dodo， inyanya n'ibindi byinshi.

Isoko risakaye ku buryo aba ririmo batanyagirwa, riri gucururizwamo iyi myaka nk'ibishimbo, ibirayi ndetse n'ibindi, ku kibanza gito kitari ubutaka bunini, kandi abacuruzi bose bakabona uko babaho.

Ibicuruzwa bivangavanze bihuriye mu ikarito imwe. Harimo seradine ziribwa, kabamo korogati yifashishwa mu isuku, hakabamo imashini yifashishwa mu gukora imibare, ibyo byose bigatuma buri wese ukiguze, agera ku cyo yari agamije.

Isoko ry'ibiribwa ryubatse ku buryo bwa kijambere, ibisima bimwe bicururizwaho imbuto nk'imyembe, amaronji, amapapayi, ibinyomoro n'ibindi byinshi ku buryo uje guhaha abona icyo ashaka.

Ihuriro ry'abantu bahuriye mu isoko ryubatse ku buryo bwa kijambere bacuruza abandi bahaha. Hacururizwamo ibyo kurya bitandukanye n'ibindi bikoresho: ibitoki, ibitunguru, ibirayi, imifuka, n'ibindi.

Ibishyimbo, imboga, imineke n'imbuto byose bicurujwe neza, byafasha Abanyarwanda kwivana mu bukene, ndetse bigateza imbere iterambere ry'ubukungu muri rusange.

Ubucuruzi buciriritse bw'ibicuruzwa bitandukanye, biri mumifuka harimo imyaka nk'amasaka, ibigori, ibishyimbo, n'imyenda n'ibikoresho byo murugo byose bizanira amafaranga ababicuruza.

Imyenda za caguwa zitanditse ku ihema bagiye gucururiza ku muhanda ibintu rwose ubona bidakwiye cyane ko bidafite isura nziza ku Rwanda rwacu rwateye imbere.

Ishambusha zitetse neza zuzuye isahani zibarirwa mubyo kurya byiza bishimishaga abana, abakuru, kuko ziraryohaga.

Ubucuruzi bukozwe neza butangaga amafaranga, umuntu ashobora gucuruza nk'amasogisi, imyenda za siporo, ingofero ndetse n'ibindi kandi akabaho nk'uko abafite akazi babonaga amafaranga.

Ibase y'umukara irimo imbada, imigati ziboneka hano iwacu zikomoka ku ngano, ndetse n'uduti bakozamo ku mukiriya uje kuzigura, n'imifuka bazipfukishije.

Isoko ryiza rya kijyambere, aho abacuruzi b'imboga, imbuto batagicururiza hasi, aho byose baba bafite ahantu babishyira, bigatuma babasha kubirinda kubora ntibahombe.

Ubucuruzi bw'ibikoresho byo mu rugo. nk'amabase, amatapi, amateremosi, indobo, udutebe ndetse n'ibindi nk'imyuko n'ibyuma byo guhata, byose bifasha ababicuruza.

Agasoko gatoya ko mu giturage katubakiye, ariko kabonekamo ibitunga abaturage, harimo imboga nk'intoryi inyanya n'ibitunguru ndetse n'ibindi byinshi.

Isoko ryo mu giturage ritubakiye ku buryo bwa kijambere， aho ibicuruzwa usanga biri hasi，uruja n'uruza rw'abaje kubihaha，bakabigura bari kubikura hasi ndetse n'imvura yagwa bikaba byananyagirwa， ibi bikaba bibangamye.

Ubucuruzi bukorewe mu isoko ryiza, rikoze neza rifite aho kumanika ibicuruzwa bigiye bitandukanye nk'inkweto, imyenda y'abana, iy'abakuru izinze, kandi ikaba ifite aho iri hatayanduza.

Uruja n'uruza rw'abaturage baje mu isoko ritoya, ribafasha guhaha nk'intoryi, imboga ndetse n'ibindi, bagatanga amafaranga gabo kugira ngo babone ibyo baja kutungisha imiryango, babiteke imiryango zabo zibone uko zibaho.

Ibihaza bizwi nk'amadegede bigikunda kugira ibara ry'icatsi kibisi ,byera ku migozi irandaranda ntibitwara ahantu hanini ho guhingwa ,iyo bigejejwe ku isoko bitanga amafaranga.